Amazi meza asukuye ni kimwe mu bintu bikwiye kwimakazwa, yaba mu rugo, yaba mu kazi, ndetse no ku mashuri cyane cyane. Kuko iyo umuntu anyweye amazi atari meza bimuviramo indwara nyinshi zitandukanye kandi mu by'ukuri ayo mazi yagakwiriye kudufasha mu mikorere myiza y'umubiri wacu.

n'indwara nyinshi zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo nka sida, imitezi, mburugu, ndetse n'izindi nyinshi by'umwihariko sida ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko idakira, ni byiza rero ko tubigiramo uruhare tukabasha kwifashisha udukingirizo ndetse n'ibindi bitandukanye, byaba byiza tukifata mu rwego rwo kugira ngo twirinde kwandura izo ndwara nyinshi zitandukanye.

Ubuvuzi rusange ni intambwe ikomeye yishimirwa na buri umwe wese, aho bidasaba amikoro ahambaye cyangwa se ikindi kiguzi kugira ngo abe yabuhabwa. Urugero nko mu mashuri hari inkingo nyinshi zigiye zitandukanye zitangwa kandi zigatangirwa ubuntu. Ibyo ni intambwe ikomeye, ni inzira y'amajyambere kandi igaragaza ko igihugu hari aho kiva ndetse hari n'aho kijya.

Gushyira hamwe ni umuti urambye w'ibibazo bitandukanye ndetse n'uburwayi, akenshi nkaho usanga abantu bafite ibibazo nk'ibyo mu mutwe cyangwa ingingo zagize ibibazo, iyo bishyize hamwe babasha kuba bakora ikintu kizima kandi gifatika, aha dusanga nk'ingero z'abagiye bishyira hamwe bafite ibibazo by'ubuzima ariko bakaba babyara umusaruro w'ibintu igihugu kishimira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda, cyagaragaje ingeri zitandukanye zitangirwamo serivise, ku bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ibi tubisanga nko mu Ntara y'Amajyepfo, iy'Amajyaruguru, ndetse n'izindi ntara zitandukanye, aho, aho hose batanga serivisi ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Yaba izoroheje ndetse n'izikomeye.

Ubumuga bwo mu mutwe ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho cyane hatangwa inama nyinshi ndetse n'amahugurwa menshi atandukanye ku bafite mu nshingano kwita kuri abo bafite ibibazo byo mu mutwe, kugira ngo bibe byabafasha gutanga imbaraga ndetse n'ubushobozi bwabo, mu gufasha abo bantu kuba bakira cyangwa se kuba hari indi ntambwe batera bava mu burwayi bwabo.

Ibikoresho byifashishwa mu gukura amenyo kwa muganga, ni ibikoresho bigomba kugirirwa isuku cyane, ibi ni ibikoresho bikoreshwa ku bantu benshi batandukanye ndetse bafite n'indwara zitandukanye ariko z'amenyo, rero igihe bitagiriwe isuku ihagije bishobora gutera indwara zandura cyane ko biba byakoreshejwe ku bantu batandukanye.

Isuku ni kimwe mu bintu umuntu uwo ari we wese ahava akagera agomba kwimakaza cyane cyane isuku yo mu kanwa ni isuku buri muntu wese akenera kuko usibye nawe ubwawe n'abandi muri kumwe iyo suku iba ari ngombwa kugira ngo uburyo muhanahanamo amakuru hatagira uza kubangamirwa, ibi rero cyane tuba tubisabwa nk'abantu duhurira nko ku mashuri birafasha.

Ubuvuzi bw'amenyo ni kimwe mu bintu bitera imbere umunsi ku wundi, aho wasangaga mbere iryinyo ryabaga rifite ikibazo barikuraga bakarirandura, ariko uyu munsi biratandukanye kuko bavura ikibazo rifite ariko bitabaye ngombwa ko iryinyo barikuramo. Ibyo bigafasha mu korohereza imitsi y'ubwonko, bigatuma hatagira ingaruka ziba zitandukanye nko kurwara umutwe.

Uko umuntu afata amafunguro atandukanye, niko mu kanwa ke hagenda hasigaramo imyanda myinshi, iyo myanda rero nyuma niyo iza kuvamo udukoko bita bagiteriya, utwo dukoko rero biba byiza mu rwego rwo kutwirinda, kuba wakoza amenyo cyangwa se ukoza mu kanwa kenshi gashoboka, kugira ngo bikurinde kuba wagira izindi ndwara nk'ifumbi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ni ibintu byo kwishimirwa, aho hagiye hashyirwaho inzu nyinshi zitandukanye zo kwita ku bantu bakuze. Ibi no muri Afurika ni ibintu biri kuhagera cyane, aho dusanga hari amazu atandukanye yagenewe abantu bakuze ndetse n'abantu bashinzwe kubitaho kugira ngo babashe kubafasha mu mirimo imwe n'imwe batabasha kwikorera.

Iyo umuntu ashaje, hari ibintu byinshi aba akeneye byamufasha kugira ngo ye kuba wenyine, ahubwo ahure n'abandi. Aha harimo imikino itandukanye nk'igisoro, dame ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha umuntu kuba yaba ari kumwe n'abandi, bityo bikamurinda kuba yajya mu nzu wenyine cyangwa kwicara nta kindi akora.

Uko imyaka igenda irushaho kwiyongera, niko umuntu atakaza ubushobozi bwo kuba hari imirimo imwe n'imwe yakwikorera. Ni byiza rero ko muri icyo gihe umuntu aba afite umuntu umuba hafi ku buryo yamufasha mu mirimo imwe n'imwe atabashije kwikorera. Niho dusanga twumva mu bihugu byateye imbere, hari abantu bashinzwe kwita ku bantu, kuri abo bantu bashaje.

Ku bakiri bato ni byiza kubigira inshingano zacu kuba twafasha abantu bakuze, hari kenshi mu mihanda tugendamo cyangwa aho tugeze tugiye gushaka serivisi runaka tuhahurira n'abantu bakuze, ugasanga bamwe muri twe ntibabaha agaciro uko bikwiye ariko ni byiza ko tubafasha, tukabaha icyubahiro ndetse mu bushobozi bwacu tukabakorera byinshi bakikoreye.

Ubuzima bwiza ni imwe muri gahunda igihugu cy'u Rwanda gishyira imbere cyane. Ibi tubisanga aho igihugu cyegereza abaturage ibikorwa remezo cyane cyane nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, bifasha ubuzima bw'abagituye kugenda neza.

Ubuvuzi ni imwe muri gahunda leta zitandukanye zitaho cyane, by'umwihariko ku badafite amikoro ndetse n'ubushobozi bwo kuba babona iby'ibanze ngo babashe kubona ubuvuzi. Ibi bigaruka cyane nko ku bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere, aho bashyiraho uburyo bworohereza abadafite amikoro kuba bavurwa ku buryo buboroheye.

Igihugu cy'u Rwanda nacyo nticyatanzwe mu gushyiraho gahunda zihashya ndetse zinarwanya ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ibi tubibona aho dusanga hari ibitaro ndetse n'amavuriro menshi yagiye ashyirwaho yo kwita kuri abongabo bafite ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ibibazo ufite bikagena ibitaro uri buze kugana.

Imiryango myinshi ifasha abaturage mu kwiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange, ibi tubibona iyo myinshi muri iyo miryango igiye iha abaturagihugu utuzi tugiye dutandukanye, bityo bakabasha guhahira imiryango yabo ari nako igihugu gitera imbere kuko buri muturage yabashije kubona ibyibanze mu buzima akeneye, nk'ibyo kurya ndetse ntaho kurara.

Birababaje ko uyu munsi hari umuntu waba acyandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka SIDA ndetse n'izindi zitandukanye. Byinshi mu bihugu byagiye bishyiraho utuzu cyangwa se bigaha abajyanama b'ubuzima udukingirizo twafasha abantu bagiye gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe kwifata byanze.

Kugira isuku ni kimwe mu bintu dukenera cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba aho tujya, yaba ibyo dukora, yaba aho turara, ni ikintu cyagakwiye kudufasha cyane mu kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda. Aha ndagaruka cyane cyane nko kwa muganga, ni ahantu hakwiye isuka ihambaye kugira ngo birinde ko abantu bahakoraniye ari benshi bandura izindi ndwara zijyanye n'umwanda.

Iterambere ry'igihugu rigaragarira ahanini mu bikoresho dusanga kwa muganga. Mu bihugu bimwe na bimwe usanga hari aho bohereza abarwayi babo mu bindi bihugu kugira ngo abe ariho bahabwa ubuvuzi bitewe n'uko nta bikoresho bihagije byo gufasha abo barwayi. Ibi rero iyo bigezweho nibwo tuba twishimiye iterambere ry'igihugu, nibwo tuba twishimiye no gutera imbere k'ubuvuzi bwacu.

Ni ibikoresho byinshi dusanga kwa muganga, aho mu byumba biba bitandukanye usangamo ibikoresho bitandukanye, aho hari ibyifashishwa mu gupima umubiri wose, hari ibikoresho byifashishwa mu kubaga, hari ibyifashishwa mu gukura amenyo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bitewe na serivisi bari buze kuguha.

Umusanzu w'abaganga ni ikintu kishimirwa na buri umwe wese aho ava akagera. Ibi biterwa nuko ushobora kujyana umuntu arwaye arembye cyane kwa muganga ariko yahagera nyuma y'isaha imwe barikumwitaho ukabona ubuzima bwe bwagarutse ndetse ameze neza cyane.

Amavuriro ni imwe mu nyubako zigomba kuba zubatse mu buryo bwihariye, bityo bikaba byabafasha kurushaho gutanga serivisi nziza, aha turagaruka cyane cyane nko ku nzira z'amagare y'abantu badashobora kwigenza, ndetse n'abantu bakuze baba bakeneye inzira zoroshye zo kugira ngo babashe kugera ku bari buze kubafasha.

Ni byiza ko niba ugeze kwa muganga witwararika, ndetse witwara neza, kugira ngo udashyira ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi mu kaga, aha dusanga nk'abantu bagenda bacokoza ibikoresho biri mu mazu y'amarwariro, yabo abo barwaje ndetse nabo ubwabo iyo barwaye, si byiza ko utangira gucokoza kuko byagushyirira ubuzima mu kaga.

Gushyiraho ahantu ho kuganirira mu bitaro ndetse n'ahandi hari abarwayi, ni kimwe mu bintu byakabaye byiza, ndetse bifasha abarwayi kuba bakicara hamwe bakaba bakungurana ibitekerezo, bityo bigatuma ntawe usigazwa inyuma n'uburwayi cyangwa ngo aheranwe n'agahinda bitewe n'uburwayi afite.

Abakozi bo kwa muganga, barasabwa kuba bafite ubuhanga buhambaye mu gukoresha byinshi mu byuma biba biriyo. Aha turasanga nk'ababihuguriwe ndetse n'abandi babyize bakabiminuzamo mu buryo bw'imikoreshereze yabyo. Ibi rero bifasha mu kurwanya cyangwa se mu guhagarika gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga.

Ibitaro by'Umwami Fayçal ni ibitaro byubatse izina cyane mu Rwanda. Ibi bitaro rero ni bimwe mu bitaro by'ingirakamaro ndetse byagiriye benshi mu banyarwanda akamaro. Aho hari indwara nyinshi zitandukanye bavura ibindi bitaro bitabasha kuvura.

Biba byiza iyo hagiye habaho inama, cyangwa se amahugurwa, ku barwayi ndetse n'abarwaza baba bagana ibitaro runaka, ibi bifasha kugira ngo babashe kumva menshi mu mategeko cyangwa se mu bibareba, ndetse n'ibibarengera, kugira ngo hatagira uhutazwa cyangwa n'ugize ikibazo amenya aho akibariza.

Ijisho ni kimwe mu bice by'umubiri by'ingirakamaro cyane. Amaso yacu iyo aramutse agize ikibazo, ibi bigira n'ikibazo gikomeye ku bwonko kuko hari udutsi duhuza byihuse ubwonko ndetse n'amaso yacu. Ibi rero kwita ku maso cyangwa se kuyarinda ibyayangiza, ni igikorwa kiza ukorera umubiri wawe kandi kikagufasha.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bikorwa bifasha umubiri gukora neza, cyane ko dusabwa kuyikora kuko irinda ndwara, ikaba yafasha abantu mu kugira ngo batekereze neza ikaba yafasha gutakaza ibiro, cyane nk'ibyo iyo tubikoze tugendera ku byo abahanga badutegeka cyangwa se abavuzi, bijyanye n'ibiribwa dufata mu gihe turi mu myitozo,

Imyitozo ngororamubiri ni umuti urambye ku buzima bw'umuntu. Imyitozo ngororamubiri ni ikintu kigufasha kuba waruhuka neza mu mutwe, kuba amaraso yatembera neza mu mubiri ndetse no kuba uruhu rwawe rwasa neza, ubikoreshwa nk'imiti igiye itandukanye yaba mu gutakaza ibiro ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bifasha umubiri gukora neza. Biba akarusho rero iyo ugiye uvangamo indyo nziza zifasha umubiri kuwurinda indwara, kuwubaka ndetse no kuwuha imbaraga. Aho ndavugamo cyane cyane nk'ibirinda indwara ari byo imboga n'imbuto ndetse byongera na vitamine mu mubiri w'umuntu.

Ni byiza ko benshi turi gusobanukirwa akamaro ko gukora siporo. Yaba gutakaza ibiro, yaba gukora neza k'umubiri, ni ibintu bidufitiye akamaro kuko bituma twinyakura mu mirimo yose dukora. Ibi ni ibintu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu, aho bigufasha ndetse bikakurinda indwara nyinshi zitandukanye, ziba zatewe no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Amazi ni ishingiro ry'ubuzima bwiza bw'ikiremwa muntu. Ibi tubibona aho dusanga ko muri rusange, mirongo itandatu ku ijana, by'ubuzima bw'umuntu cyangwa se ibigize umubiri ari amazi. Aya mazi rero afasha ubwonko kuba bwakora neza, agafasha amaraso gutembera neza mu mubiri, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, byafasha umubiri gukora neza.

Inzu z'imyitozo ngororamubiri ni inzu dusigaye dusanga ahantu henshi hatandukanye no mu bihugu byinshi bitandukanye, ibi rero byorohereje kuri bamwe bifuzaga gukora iyo myitozo ngororamubiri, ariko ntibabashe kubona ibikoresho byo kubafasha, aha tusangamo nk'utugare, turasangamo nk'amatapi abantu bakoreraho ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Amagare afasha abamugaye, ni bimwe mu bikoresho b'ingirakamaro cyane, aho bifasha uwamugaye kuba yagira indi mirimo yikorera, mu ntege nkeya afite. Ibi bifasha cyane no mu basheshe akanguhe, cyangwa abantu bakuze, ku buryo babasha kuba bava ahantu hamwe bakagera ahandi, bityo bikabarinda kuba baguma mu bwigunge, ahantu ha bonyine.

Imyidagaduro ni ikimenyetso cy'imibanire myiza iba iri hagati y'abantu, aho abantu bishyira hamwe bakifatanya mu buryo bwo kwidagadura, bakanezererwa ibyo babona, yaba mu mbyino, yaba mu mikino ndetse n'ibindi bitandukanye bibahuriza hamwe bakaba bakwishimira hamwe.

Mu bihugu bitandukanye dusangamo imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu buvuzi. Benshi mu bayikoresha bagaragaza ko iyi ari yo miti yizewe ndetse igira ingaruka nkeya ugereranyije n'iriya miti dusanga mu maguriro azwi cyane nka farumasi.

Uyu munsi ntitwakwicara ngo twirengagize akamaro imiti gakondo yagiriye ba sogokuru bacu. Ndetse ni nayo isigaye itunganywa mu kugira ngo tubone ino miti dusanga mu maguriro. Nubwo imiti gakondo ishobora gukoreshwa nabi ariko iyo ikoreshejwe neza itanga umusaruro ndetse ikavura nk'indi yose dusanga mu maguriro.

Umuravumba ni kimwe mu bihingwa by'ingirakamaro cyane mu buvuzi butandukanye, aho wifashishwa mu kuvura indwara zirimo izo mu nda, zirimo ndetse n'indwara cyane cyane zo ku mubiri hanze. Iki gihingwa rero akenshi ni igihingwa cyimeza ndetse kikaba cyifashishwa mu kuba cyavamo imiti itandukanye tubona mu nzu z'amaguriro y'imiti.

Hari bimwe mu bihingwa tudaha agaciro nk'uko byakagakwiriye, aha ndavuga cyane nk'igikakarubamba, aho iyo tukibona mu murima tutagiha agaciro uko bigikwiye, ariko iyo kimaze gutunganywa kikavanwamo amavuta meza yaba afasha umubiri kumera neza, ndetse n'akuza imisatsi ibi ari bwo tuba dusobanukiwe neza agaciro k'ibi bihingwa.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera byifashishwa mu gutunganya imiti itandukanye, harimo nk'ikiza ibiheri ndetse n'andi mabara aba yaje ku ruhu. Iki kimera rero kifashishwa ndetse no gutunganya indi miti itandukanye yaba iyi kiza mu nda mu gihe bakivanze n'indi miti.

Umuravumba ni ikimera cy'ingirakamaro cyane kuko wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Aha dusangamo nk'inkorora, indwara zo mu nda, ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Iki ni ikimera cyagiye gifasha abantu bo hambere cyane kuko cyabafashaga mu kwivura zimwe mu ndwara nagarutseho ndetse n'izindi.

Uyu munsi buri ndwara yose umuntu yaba arwaye ajya kwivuza bakamusuzuma, ndetse bakamuha imiti ijyanye n'iyo ndwara, bitandukanye no hambere batagusuzumaga ahubwo baguhaga imiti bitewe n'uko bari kumva aho ubabara cyangwa se ibimenyetso uri kubabwira, ariko abahanga bavuga ko uko umuntu akomeza gufata cyane ino miti yanyuze mu nganda nabyo bigira ingaruka mbi ku mubiri.

Benshi mu batari bibayemo birabagora kumva ko imiti gakondo ari yo yonyine yakoreshwaga mu bihe byo hambere. Abenshi mu bakuze bo bagaragaza ko imiti gakondo aricyo kintu cyabafashije ndetse ko ari na yo yizewe, kuruta iyi igenda ikorwa uyu munsi dusanga mu maguriro atandukanye.

Imiti gakondo ni ibihingwa cyane cyane kimeza, bidufasha mu buvuzi yaba ubw'amatungo ndetse n'ubw'abantu. Ibi bihingwa nanone bidufasha mu gutunganya iriya miti dusanga mu maguriro y'imiti azwi cyane nka farumasi. Ni imiti yakundaga gukoreshwa n'abantu bo hambere mu gihe hari Ibihugu byinshi bitari byagateye imbere.

Si buri gihe uzarwara ngo ugirwe inama cyangwa se wowe wigira inama yo kujya kwa muganga ngo baguhe ibinini. Hari igihe ugira igitekerezo cyangwa se bagenzi bawe bakakungura ibitekerezo by'uko wagenda gufata imiti gakondo ariko yatunganyijwe neza. Aha ndatanga urugero nk'igisura kivura indwara z'igifu ndetse n'indi miti gakondo itandukanye ifasha abantu kandi ntigira ingaruka.